Kwa muganga hakaba hari ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho abantu bazi gukoresha ikoranabuhanga bagurukiriza dorone, zigenda zikwirakwiza amaraso mu bice bitandukanye bikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ahantu ku karubanda haparitse imodoka nini cyane y'umweru, hari n'ibishararaga by'icyatsi, aho bari kwakira abantu batandukanye bashaka serivisi z'ubuvuzi, zisa naho inzobere mu by'ubuvuzi zegereye abaturage.

Umugabo wambaye ijire y'umutuku. Ateruye umwana wavunitse ukuguru ariko bakaba baramushizeho igisima. Ari kumujyana kwa muganga mu gihe abandi bari kumureba bakamuseka.

Abantu benshi cyane, bambaye amajire y'umutuku, bakaba bari kwiruka aho bamwe muri bo bafite ubwoba. Hari n'abandi bantu batatu bambaye imyenda, ingofero, ndetse bakaba bafite n'ibikoresho bigaragara ko bazimya umuriro. Bakaba batwaye umuntu ku ngobyi bi isa naho...

Umunsi umuryango mpuzamahanga wita kumbabare witwa croix rouge utangaho imfashanyo. Umugabo wambaye ijire y'umutuku y'uwo muryango akaba ari guhereza umugore ibyo kwiyorosa ibyo kwambara ndetse n'umukeka.

Abaganga batandatu biganjemo abakobwa bose bambaye udupfukamunwa, bambaye udutambaro mu mutwe ndetse n'imyenda y'icyatsi bakorana akazi, babiri muri bo bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda bamutwikiriye hose mu gihe abandi bari kurebera.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi. Akaba yarwanye mu kabari, bakamutera icupa mu mutwe, uyu munsi akaba yaje kwivuza kwa muganga, aho bamwogoshe ahari ikiguma nuko bakamupfuka.

Imodoka nziza cyane y'imbangukiragutabara iparitse ku mbuga y'ibitaro, aho ari imboga irimo amapave. Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi barembye cyane ibageza ahari abaganga baribubashe kubitaho.

igikapu cyiza cyane. Gifite ibara ry'umutuku, kikaba gifunguye kirangaye. Mo indani harimo ibikoresho bitandukanye nk'imakasi, ibipfuko ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga.

Abagabo batandatu, babiri bakora mu nzego z'ubuvuzi aho umwe yambaye umupira utukura, undi akaba yambaye ijiri itukura. Bari kwifotoza hamwe n'abandi aho bafashe ku gapapuro gasa n'umuhondo, iruhande rwabo hari imbangukiragutabara, inyuma yabo hakaba hari inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Abaganga batatu, abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye amaherena, bose bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bahagaze kwa muganga bategereje kohaza abarwayi bakabavura.

Abantu batandukanye bakora muri serivisi z'umuryango wa Croix Rouge utabare imbabare, baje, baje gufasha abaturage bafite ibibazo by'ubukene babaha ibikoresho bitandukanye bibafasha mu kwegirira isuku bakaba bari kubibahera ku kigo nderabuzima.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga twavuga nk'itoroshi, imakasi, ibipfuko, umuti w'amenyo, umuti womora ibisebe ndetse n'ibindi, byose biteguye ku meza kugira ngo umuganga aze kubyifashisha yita ku barwayi.

Abantu batandatu bambaye amajire y'umutuku. Bakaba bari mu nzu y'ubuvuzi aho bari kuganiriza umusore wambaye ishati y'umweru, uburyo bwiza bwo kwiyitaho ndetse no kwita kuri bagenzi be.

Umurwayi mutoya w'umwana. Ari kwa muganga, aho aryamye ku gitanda cy'abarwayi, akaba yaragize ikibazo cy'imvune y'ukuguru. Ari kwitabwaho n'abagore babiri b'abaganga ,b'abasirikare . Bose bambaye udupfukamunwa ndetse bakaba bari kumwitaho bafatanyije.

Ni mu bitaro aho hari ibikoresho bitandukanye mu cyumba kimwe kiza giteye amarangi y'umweru, ibyo bikoresho harimo intebe, igitanda cy'abarwayi, ahantu bakarabira, ndetse n'ibindi bikoresho muganga akoresha yitar ku barwayi.

Abantu benshi. Biganjemo abakora mu nzego z'ubuvuzi, bakaba bateraniye hamwe, bari kuganirizwa n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, aho bari kwiga ku buryo bwiza bwo kunoza serivise batanga.

Abantu bane harimo umugore umwe n'abagabo batatu. Batatu bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara bakaba ari kwifotoza, aho umwe w'inyuma ari umushoferi akaba atabivanzemo.

Abakobwa babiri, bakora mu nzego z'ubuvuzi, bicaye ku meza aho bari kumwe na bandi bakobwa, aho bari kubasobanurira uburyo bakwiye kwitwararika, muri iki gihe barimo cy'ubwangavu.

Umukobwa w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru, akaba ari gupima ugutera k'umwana muto, aho mama we amuteruye yicaye ku ntebe. Imbere yabo hari ameza ariho ikayi ndetse n'ikaramu, hakaba hariho n'akandi gakoresho muganga yifashisha.

Umuganga akaba ari inzobere mu burwaye bw'amenyo, yambaye agatambaro mu mutwe ndetse akaba yambaye n'igishati by'icyatsi, ari kuvura umurwayi mu kanwa aho yamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi.

Abaganga batatu bose bambaye udupfukamunwa, babiri muri bo bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'uduhisha ntoki, mu gihe undi muhirya yambaye umukara barimo kuvura umurwayi aho bamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi.

Kwa muganga hari umuganga wicaye ku ntebe wambaye itaburiya y'umweru. Hakaba hari n'umurwayi w'umugore, watereye igitenge ku rutugu nawe yicaye. Bari kuganira imbere yabo hari ameza, aho arikumubaza serivisi ashaka kugira ngo ayimuhe.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi yaje kwa muganga, aho yaje kwikingiza rukingorwa COVID-19. Akaba yakiriwe n'umugabo w’umuganga, aho ari kumukingira.

Abagabo batanu, babiri ni abaganga, bakora mu bitaro, bakaba bari hanze ku muryango ahakirirwa abantu, aho bari gusobanurira abagabo batatu serivisi zihatangirwa naho bahera kugira ngo babashe guhabwa serivisi.

Umugore ukora serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Ahagaze mu nzu aho yambaye itaburiya y'umweru. Iruhande rwe hari igitanda cy'abarwayi, hakaba hari kandagira ukarabe ndetse imbere ye hakaba hari n'umurwayi wicaye ku ntebe.

Ibitaro by'Akarere bikaba ari ibitaro byiza cyane aho ari ibitaro bya Gatunda. Imbere hari amabendera abiri ndetse n'ibindi biti bibiri bitariho amabendera. Hariho ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera rya Kongo.

Abaturage bo mu mudugudu umwe bahuriye kwa muganga, aho bamwe bafite ubumuga bw'ingingo, bamwe baje mu tugare abandi baje bijyana, hakaba hari inzobere bari gukina vore.

Abantu batandukanye, baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, batonze umurongo aho imbere yabo hari umugabo uhagaze mu busitani uri kubasobanurira igihe barabahera serivisi.

Abantu batatu bakora muri serivisi z'ubuvuzi cyanecyane ahafatirwa ibizamini. Harimo umukobwa umwe aho ari kureba mu kuma k'ikoranabuhanga, asuzuma ibizamini yafashe umurwayi.

Umugabo, inzobere mu by'ubuzima yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba ari gusuzuma ibinini ndetse n'ibindiibi bizamini bafasha abarwayi bari baganye icyo kigo nderabuzima.

Abantu batandukanye biganjemo abagore bafite abana bakiri bato. Baje kwa muganga aho bicaye ku ibaraza ry'inzu imwe yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari umuganga uhagaze aho agiye kuza akabitaho.

Umuganga wambaye udupfukantoki tw'ubururu, yambaye n'itaburiya y'umweru akaba ari gutondeka imiti mu nzu ifatirwamo ibizamini, harimo uducupa dutanu tw'umweru twafatiweho ibizamini bitandukanye.

Umuganga umukobwasaneza, yambaye ishati y'umweru, akaba ari mu nzu ifatirwamo ibizamini. Afite agapombo karimo urushinge, akaba ari kuvoma umuti mu gacupa gatoya, kugira ngo ajye kuwutera umurwayi.

Kwa muganga mu nzu ifatirwamo ibizamini abarwayi. Hari umugore w'umurwayi wazanye n'umwana we, hakaba hariho abaganga babiri b'abagore bari kumwitaho. Umwe ari kureba muri mudasobwa, akaba afite agapapuro kariho ibisubizo by'ibizamini yari yafashe uyu mugore.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, amarinete ndetse n'itaburiya y'umweru, afite ikaramu mu ntoki, akaba ari mu nzu ikorerwamo ibizamini kwa muganga, ari gupima ibizamini byafashwe, yifashishije icyuma cy'ikoranabuhanga.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uduhishantoki tw'ubururu ,yambaye n'umwenda w'abaganga uzwi nk'itaburiya, akaba yari ari gufata amaraso, afite na mikorosikopi aho agiye gupima niba ayo maraso yanduye.

Umugore wambaye ikanzu afite igikapu mu ntoki ahetse umwana muto akaba afashe undi mwana akaboko, bari kugenda mu muhanda, aho bageze ku ivuriro, inzu nziza yubakishije amatafari, ikaba ihomye ikaba iteye n'irangi ry'ubururu.

Ababyeyi bahagaze buri wese afite amasahani abiri ariho ibiryo, imbere yabo hakaba hari abana bato, bakaba ari abana biga mu mashuri y'inshuke, aho abo babyeyi bagiye kubaha ibiryo bafite.

Umudamu uteruye umwana yaje kwa muganga aho yaje gushaka serivisi z'ubuvuzi kugira ngo avurwe n'umwana we, hari umugabo ukora amasuku mu bitaro aho ariwe uri kumurangira aho ajya kuvuriza umwana we.

Igipapuro gishushanyijeho umuntu uryamye, ku ruhande ndetse na hirya hakaryama undi bose baryamye mu nzitiramu, bakaba bakangurira abantu bose kuryama mu nzitiramubu ikoranye umuti mu buryo bwo kwirinda indwara nka Malariya.

Umugore wambaye ishati y' yumutuku, afite umusatsi usanzwe, akaba ari kwa muganga aho yari yagiye agiye kubyara. Aryamye hamwe n'uruhinja yabyaye, ubona ko yishimye cyane.

Kwa muganga akaba ari ahakirirwa, abarwayi, b'abana batoya. Ni inzu nziza ifite ibaraza rinini, aho hugamyeho abantu, bugama izuba. Imbere hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, ku ruhande hakaba hateye umucaca ukiri mutoya.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore bafite abana, bateraniye hamwe aho bicaye mu gisharaga baje kumva impanuro z'inzobere mu by'ubuzima, aho bari kubaganiriza ku buryo bwiza bwo kwita ku bana babo kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'imirire mibi.

Umugore ufite imisatsi y'amaderede. Ni umuganga kuko yambaye itaburiya y'abaganga, akaba afite telefone, ari kubaza umugore iyo yamusanze mu rugo ku bijyanye n'uburyo akoresha bwo kuboneza urubyaro.

Umugore n'umugabo bagize amahirwe babyara impanga. Umugabo ateruye mwana umwe, umugore ateruye undi. Bahagaze kwa muganga imbere y'inzu y'ibitaro ivurirwamo abagore n'abana, ikaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifata ibaraza ryiza.

Abantu bakiri bato b'urubyiruko barahagaze bari kwifotoza bose bambaye imipira isa n'umukara ikaba iho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Amagambo ariho ntabwo agaragara ariko bakaba bari kwifotoza bisa nahoho bari bamaze kuganira ku buryo bwo kwita ku menyo yabo ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange.

Abagore bagera kuri barindwi bambaye imipira y'umweru yanditseho amagambo asobanura umuryango mpuzamahanga wita kumbabare uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika aho umwe muri bo ari gusobanurira bagenzi be ibikorwa byabo.

Abantu benshi cyane, biganjemo abakora muri serivise z'ubuzima bwo mu mutwe kwa muganga. Bahuriye hamwe, bicaye mu bishararagati barindade izuba, aho ku murongo w'imbere hicaye abana. Baje kuganira ku buryo bwiza bwo kwita ku buzima bwo mu mitwe yabo.

Abaturage biganjemo ababyeyi ngo ni abagore n'abagabo, barishimye cyane aho bose bahagurutse mu byicaro bakaba bari kubyina, akaba ari umunsi mukuru wateguwe n'ikigo Isange one stop center.

Abantu batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bateraniye hamwe aho abaganga bari kubaganiriza bababwira uburyo bwiza bwo kurwanya izo ndwara kugira ngo batazongera kuzirwara ukundi.

Umugabo wambaye ishati iriho amabara y'umukara ndetse n'umuhondo. Akaba ari mu nzu icururizwamo imiti itandukanye, yaba iri mu dukarito iribwa ndetse n'iri mu ducupa inyobwa.

imiti iri mu bikarito bitandukanye, hari n'indi yafunukuwe aho ari udukarito tubiri, kamwe kakuwemo ikinini kimwe kandi gakurwamo bitatu, yose akaba ari imiti yifashishwa mu kugabanya ububabare.

Inzu icurizwamo imiti itandukanye. Hari imiti iri modokaka rito izwi nk'ibinini ndetse n'indi iri mu uducupa aho inyobwa. Ikaba iri muri etajeri, aho bagiye bayiparika mu buryo butandukanye bite n'ubwoko bwayo.

Inzu nziza cyane y'ubucuruzi ikaba icurizwamo imiti. Inyubako iri ku muhanda, ikaba iteye irangi ry'umuhondo. Imbere yaho hari imbuga irimo amapave ndetse hakaba hashinzemo n'ipoto ry'amashanyarazi.

Inyubako nini cyane icururizwamo imiti, iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo etajeri z'umweru, irimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ari iyo muducupa ndetse no mudokakarito.

Agapapuro kari mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi gashushanyijeho inka, intama, ingurube ndetse n'ihene, akaba ari agapapuro karimo umuti uvura ayo matungo by'umwihariko ukayavura ibihaha.

Ibinini ndetse n'indi miti itandukanye icuruzwa mu nzu zicururizwamo imiti, itondetse ku meza aho imwe bayifunukuye indi bakaba batayifunukuye, aho umugabo ari kuyisuzuma ngo arebe ko itarangije igihe.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ariko cyane cyane imiti, irimo etajeri y'umweru aho irimo imiti itandukanye myinshi cyane, iri mudukarito ariko hakaba hari n'indi iri mu uducupa.

Inyubako nziza icururizwamo imiti. Irimo etajeri z'ibyuma, ikaba ari inyubako nini cyane irimo imiti itandukanye, yaba iri mu bikarito by'umweru, indi ikaba mu macupa, yose yifashishwa mu kuvura abantu.

Ni inyubako nziza cyane, iteye amarangi y'umweru, akaba ari inyubako icururizwamo imiti. Iyo miryango yombi ikoreramo muntu umwe witwa Iraguha, mu gihe imbere y'imbuga y'amapave, hirya hakaba hari moto ndetse n'imodoka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, aho imihanda ibiri ihuriye hakaba hepfo yaho hari inzu nziza z'ubucuruzi, inyinshi muri zo zikaba zifunze. Imwe muri yo irafunguye, imbere hakaba hari n'umuntu uri gusunika igare.

Inzu z'ubucuruzi, inzu imwe yanditseho ngo Megaveti East Africa, akaba ari inzu irimo ibikoresho bitandukanye, harimo umucuruzi ndetse izindi nazo zirafunguye, imbere hakaba hari amapavu.

Inzu y'igorofa hejuru ntago turi kubona inshuro igeretse, aho imbere hicaye abantu ku gatebe ndetse hakaba hari n'umugore waje kwiyamamaza, afite mikoro akaba ari kuvuga ibigwi n'imigambi ye.

Abantu biganjemo urubyiruko. Bahuriye hamwe aho baje kuganirizwa n'abantu b'inzobere mu buzima bw'imyororokere ,bakaba bari kubaha udukingirizo ndetse banabasobanurirwa uburyo bukoreshwa.

Umugabo ufite microhone, akaba ahagaze imbere y'abaturage biganjemo urubyiruko, aho ari kubasobanurira ndetse anabakangurira gukoresha agakingirizo, aho afite agapapuro kanditseho ngo ''gakoreshe neza''.

Abantu benshi bahuriye imihanda yose. Imbere yabo hari abantu batanu babarangaje imbere barimo n'umwe w'umuyisiramukazi. Bafite igipapuro cyanditseho amagambo y'Ikinyarwanda avuga ngo rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda. Irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi.

Abagize komite nyobozi bateraniye mu nzu, aho baje mu kuyamamaza ndetse no gutora. Muri abo bantu harimo umusirikare umwe ndetse hakaba hari n'umugore umwe uhagaze ufite mikoro bahaye ijambo.

Igishushanyo kiriho umugabo wifashe mu mugongo, yambaye ingofero y'umutuku akaba ya azize ipantaro ukuguru kumwe afite n'isuka, iruhande rwe hari umugore ukenyeye igitenge, akaba na we yambaye igitambaro mu mutwe.

Umugabo akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima, ahagaze imbere y'imbaga aho ari gusobanurira urubyiruko uburyo bwo gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ni mu nyubako imwe nziza cyane, iteye irangi ry'umweru ikaba irimo udutara dutoya, hateraniyemo abantu benshi aho buri wese afite agacupa k'amazi imbere ari kunywaho, bamwe bafite amatelefone abandi bafite mudasobwa, imbere hakaba hari umugabo uri kwiyamamaza ababwira ibigwi n'imigambi ye.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, abenshi muri bo bambaye imipira aho bahuriye mu nzu bakabaganiriza. Imbere hari umugore uri kugenda abahereza utuntu tw'udupapuro, bisa naho ari kwiyamamaza.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu mu ntebe z'umweru za palasitike, bakaba abateze amatwi umugabo ubari imbere aho ari kubabwira ibigwi n'imigambi ye abafitiye, kugira ngo bazamutore ababere umuyobozi.

Imiti itandukanye gakondo twavuga ibijyanye n'imiti iva mu biti bya pinusi ndetse na shipuri, hakaba hari n'imiti iziritse, hakaba hari n'imiti iva mu busuna, mu gihe indi yumishijwe utamenya ibiti ikomokamo.

Umugore wambaye ibaji y'akazi yakenyeye igitenge akaba yambaye n'a agatambaro mu mutwe, ari gucuruza imiti gakondo itandukanye mu isoko, aho imbere ye hari umugabo wambaye umukandara w'umukara wanatebeje uje kugura imwe muri iyo miti.

Abantu biganjemo inzobere mu buvuzi, harimo n'ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda bakaba bari kwifotoza, bari kwifotoreza imbere y'ibitaro bya Gatunda nyuma y'uko bamaze kuganira ku buryo bwo gukoresha imiti gakondo.

Umugore ukora imiti itandukanye gakondo afite udukombe, udusahani ndetse n'ibindi byinshi yifashisha, akaba afite imiti iseye iteretse ku ruhande ndetse n'amazi yifashisha kugira ngo abashe kuyitosa.

Ni ibimera bitoshye cyane bihinzwe mu murima byonyine, bikaba ari ibimera bizwi nk'umwenya bikoreshwa nk'imiti gakondo by'umwihariko ivura indwara z'ubuhumekero.

Umukobwaza cyane, acuruza imiti gakondo itandukanye, yaba iyo mu bikarito ndetse n'iyo mu macupa inyobwa, akaba ari umukobwa wihangiye umurimo kuko amaze kugera kure, inzu ye ikaba irimo imiti myinshi.

Karoti, ubunyobwa, umwenya ndetse n'inkeri birambitse hasi bisa naho babinomba bakabikoramo icyayi, iruhande hari ibinika ndetse hakaba hari n'agatasi karimo icyayi.

Abagabo icyenda bahagaze imbere y'inzu y'ubuvuzi iteye irangi ry'umuhondo ndetse ikaba ifite ibaraza riteye irangi ry'icyatsi. Iyi nzu akaba ari ivuriro rya Nyamikamba, aho aba bantu bari kwifotoreza nyuma y'uko bari bamaze kuganira.

Ni ibicupa byinshi cyane bya palasitike, biriho igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza, hariho n'imibare ivuga ko iryo cupa rifite santimetero mirongo ine ndetse mu nda hakaba harimo mirilitiro magana ane.

abantu benshi cyane biganjemo abari muzabukuru, bararwaye aho baje kwamuganga bakaba bicaye mu inzu nini iteye amarange y'umuhondo, baricaye aho bategereje kugira ngo bahabwe serivise nabo bakiere.

Inyubako nini cyane y'ubucuruzi igaragaza imiryango itatu, imiryango yose ikaba ifunguye, umuryango umwe uriho igipapuro kigaragaza ko batanga serivise zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse bakaba batanga na serivisi z'ubuvuzi nyafurika.

Umuganga w'umugore yambaye amataratara, uturindantoki, akaba yambaye n'ishati y'umweru, yambaye n'ipantaro y'ubururu. Yicaye ku ntebe aho ari gusuzuma neza ibimenyetso yari amaze gufata umurwayi. Muri iyo nzu hari igitanda cy'abarwayi ndetse hirya hakaba hari undi muganga uhagaze.

Abantu batandukanye, bakora mu nzego z'ubuvuzi. Bicaye hanze ku ibaraza, ku nzu yubakije amatafari mato y'impunyu, aho baje gutanga serivise, zitandukanye ku baturage, mu buryo bwo kubegereza serivise z'ubuzima.

Inzu ebyiri zitangirwarwamo serivisi z'ubuvuzi. Ni inzu zubatse kimwe, ziteye irangi ry'ubururu ndetse zikaba zifite ibaraza ahicaye abantu baje gushaka izo serivisi. Imbere hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ubusitani buteyemo igiti.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare yiteze igitambaro akaba yicaye ku gitanda kwa muganga aho ateruye umwana we ufite ikibazo cy'uburwayi akaba yaje kumuvuza.

Abaganga bane b'abagore bambaye udupfukamunwa, bakaba bambaye uturindantoki aho umwe muri bo arikuba muri telefone asobanurira bagenzi be undi ari kwandika ibyo mugenzi we avuze kugira ngo abone uko batanga raporo y'umugoroba.

Umugabo w'umuvuzi, yambaye itaba y'umweru ndetse n'udupfukantoki, akaba ari gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda, aho yaje kwa muganga afite ikibazo cy'umutima.

Abantu bakora muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Abenshi bambaye imipira y'icyatsi ndetse abandi bakaba bambaye amataburiya y'ubururu. Bari guhererekanya ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Inzu nziza y'ubuvuzi itera irangi ry'ubururu ikaba isakaje amabati y'icyatsi, imbere y'aho hari imbuga irimo amabuye, hakaba harimo n'intebe, ifite ibaraza rinini cyane aho ryicayemo abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi biganjemo abakora muri serivise z'ubuzima, yaba abikorera ndetse n'abakora mu bigo bya leta. Bahuriye munzu imwe, nziza cyane iteye irangi ry'umuhondo ndetse n'irangi ry'icyatsi, aho imbere ari inzobere, mu by'ubuzima, ibasobanura uburyo bwiza bwo kunoza serivise batanga.

Kwa muganga hari inzu nini irimo inzitiramibu, ikaba irimo ibitanda by'abarwayi ndetse bimwe na bimwe biryamyeho abarwayi, harimo n'umuganga uri kugenda ababaza uko bamerewe.

Inzu iri ahirengeye, iteye irangi ry'ubururu, ikaba ifite ibaraza rinini cyane, iruhande hahagaze umusirikare. Imbere yayo, hakaba hari ubusitani bw'umucaca ndetse n'indabo, akaba ari inzu yanditseho ngo gira ubuzima herifu posite.

Agakarito gato, karasa n'umuhondo kaba gafite n'ibara ry'umutuku. Gashushanyijeho intama, ihene ndetse n'inka, kakaba kanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umutuku mu rurimi rw'Icyongereza, bisa naho karimo umuti, uvura ayo matungo navuze haruguru.

Abantu batatu bakora muri serivisi z'ubuvuzi, bicaye mu cyumba kimwe, aho imbere yaho hari umugore uteruye ibyo kurya bisa n'aho abibazaniye ngo barye kuko ni saa sita bari mu gihe cyo kuruhuka.

Umugabo ukora muri serivisi z'ubuvuzi, akaba yicaye aho ari kwakira abarwayi batandukanye. Hagezweho umugore wambaye umupira w'amaboko magufi ukenye igitenge, akaba ari kumuhereza ibyangombwa bye ndetse n'ikayi yo kwa muganga.

Ibipaki byinshi cyane biri mu ibara ry'umuhondo bikaba byanditseho amagambo atandukanye, bikaba binashushanyijeho inyamaswa bigaragara ko ari ibishashi bibamo imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'inyamaswa.

Umurwayi w'umugabo aryamye ku gitanda, mu nzu y'ibitaro irimo ibitanda byinshi. Ikaba iruhande rwe hari umuganga w'umugabo ndetse n'uwumukobwa, muganga w'umugabo akaba ari gusoma mu ikaye abwira uwo murwayi uburyo agomba kwitwara.

Umugore ukora serivisi z'ubuzima yagiye gusura abaturage mu rugo iwabo aho bicaye akaba ari asobanura uburyo butandukanye bwo kwiyitaho, imbere hateretse akadomoro ndetse n'igikombe birimo amazi bari kunywa ndetse hakaba hari amakayi ndetse n'andi macupa arimo imiti.